Akana gakiri gato k'agakobwa, gafite isabune mu ntoki kari gukarabira kuri robine mu ibasi y'umukara, kambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara yose.

Abana babiri bari guseka bigaragara ko bari mu kigero kimwe, umwe yambaye agapira k'ubururu ndi yambaye agapira k'icyatsi n'umweru, uwambaye agapira k'ubururu afite indobo y'umweru mu ntoki, uwambaye ak'umweru n'icyatsi ari kuvoma kuri robine ashyira amazi mu ndobo z'umweru, inyuma yabo hari ibiti.

Umumama uteruye umwana ukiri muto yambaye agapira k'umweru n'ingofero ya oranje ndetse n'icyatsi. Imbere ye hari undi mumama wambaye itaburiya y'umweru ari kumufasha kumuha imiti ngo amererwe neza.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abagore, bari mu cyumba cy'inama, imbere yaho harimu umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karavati y'umutuku ari kubakoresha inama.

Abantu batatu baje kuvoma, umwe yambaye umupira w'umweru ndetse na jire ya oranje, undi yambaye umukara n'umweru, undi yambaye umupira w'umukara n'ijipo y'amabara yose. Bari ahantu heza hafite amabara y'icyatsi kibisi.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi harimo abagabo n'abagore, bicaye ku meza bakoraho inama, buri wese mu bicaye aho afite igikombe kirimo icyayi.

Umwana muto wambaye agashati k'umutuku gahinnye amaboko afite agasatsi gake karinganiye ku mutwe, uri guseka yishimye, ari gukaraba kuri robine impande ya robine hari icyapa.

Abana babiri bari imbere y'umuryango ukinze, umukuru afite isabune ari gukarabira mu ndobo y'ubururu ndetse umutoya ari kumukarabiriza mu ibinika y'ubururu.

Abana benshi abahungu n'abakobwa, ni imibiri yombi, bambaye imyenda y'ubururu iriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru n'umukara, inyuma y'ahantu bari hari inzu y'amatafari ahiye n'inzugi z'ubururu.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye amataburiya y'umweru na ga. Ari kuvura umumama wakomeretse urutoki yambaye umwenda w'umukara ndetse na move. Inyuma ye hari uwambaye jire y'umweru n'umuhondo.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe ku ma esikariye, bambaye imyenda itandukanye harimo umutuku, umweru, umukara, ariko abenshi biragaragara ko bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano.

Icyapa cyanditseho amagambo ari n ibara ry'umweru, imibare iri mu mabara atandukanye, rimwe, kabiri, gatatu. Umukobwa uryamye uri guseka bigaragara ko yishimye afite ibisuko by'umukara.

Abana batoya bahagaze ahantu hamwe bari guseka bigaragara ko bishimye, babiri b'imbere umwe yambaye inkweto undi yambaye ibirenge. Akajerekani ko kuvomeramo, ibyatsi, hagati yabo harimo igiti.

Abagabo, abagore bahagaze ahantu hamwe, bamwe barambuye amaboko, abandi bayafatanyije, impande yabo hari ibyapa, biragaragara ko bishimye, bahagaze ku mayesikariye.

Umumama ugeze mu za bukuru, wambaye imyenda ifite amabara yose. Ari gutekera mu isafuriya y'umukara, acanye ku nkwi, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye. Uwo mucecuru arishimye.

Umugabo wegamye ku rukuta rufite amabara y'umuhondo, yambaye imyenda yacikaguritse isa nabi, akaguru kamwe kambaye urukweto akandi ntarwo, afite amazi mu ishashi, iruhande rwe hari ibikarito bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo w'imibiri yombi, utambaye imyenda hejuru, ufite ubwanwa, uri guseka yishimye, afashe akadodo mu maboko ye k'umweru, ari kugakoza ku menyo.

Abantu benshi biganjemo abamama, abapapa n'abana, bambaye imyenda itandukanye irimo amakanzu, amashati, amajipo n'amakositimu, bambaye n'udukote tugaragaza ibyo bakora.

Abantu babiri harimo umugabo n'umugore bageze mu za bukuru, bambaye imipira y’umutuku. Umu mama yambaye isaha ku kuboko, yashyize akaboko ku meza, iruhande rwe hari icupa ririmo imiti.

Umuganga w'umukobwa wafunze imisatsi wayifungiye hejuru, ari gufasha umupapa bigaragara ko ari kugendera mu kagare wagira ngo yaravunitse, umuryango ufunze, utubati dufashe ku rukuta by'inzu, indabyo ziri mu mavaze ziteretse ku idirishya n'udutiriwari.

Abaganga babiri, umukuru urambuye amaboko uri guseka, ufite imisatsi mikeya y'umweru, umutoya imisatsi y'umukara, biragaragara nk'aho we atari guseka, afashe amaboko umumama mukuru afatishije amaboko ye ari..

Abantu benshi b'abagabo bageze mu zabukuru n'abakiri bato, bambaye imyenda y'amabara yose harimo ubururu, icyatsi, umweru n'umutuku. Bari gukora ibikoresho by'umuco nyarwanda urugero nk'agatebo.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore bambaye imyenda y'umukara, imbere yabo hari intebe y'umukara, inyuma yabo hari idarapa ry'Igihugu cy'u Rwanda, bafite icyapa gishishikariza abantu kwisuzumisha indwara runaka.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, bafite icyapa cyanditseho amagambo atubwira ukuntu ushobora kwisuzumisha ndwara harimo nka kanseri zivurwa zigakira.

Ahantu hakeye hari ibiti bifite amabara y'icyatsi, hari n'umuhanda urimo amabara y'umukara n'umweru ndetse n'umuhondo, imbere y'uwo muhanda hari icyapa kigaragaza ko aho hantu hakorerwa ibintu by'ubuvuzi.

Icyumba bakoreramo siporo, harimo intebe baruhukira iyo basoje gukora siporo, hari indabyo zifite amabara y'icyatsi, hari n'icyapa cyandikishije amagambo y'umweru, hari inzugi z'ibirahure zifite amabara yerurutse.

Amazu menshi yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umweru hasi muri ayo mazu hari abantu benshi, kandi hari n'ubusitani bwiza cyane n'igiti kiraho hagati muri ayo mazu.

Sale irimo abantu baringaniye bamwe bicaye imbere y'abandi, ameza y'ibitambaro by'icyatsi, amazi yo kunywa ari mu ducupa, n' umuntu uhagaze hagati yabo uri kubafotora. Inyuma y'abantu bicaye imbere hari icyapa kiri mw'ibara ry'umweru n'umutuku.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo kwa muganga, umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara ari kuzinga supanete, imbere ye hari umuntu uryamye ku gitanda yambaye serumu ku kaboko.

Inzu nyinshi zisize amarangi y'umweru, iruhande rwazo hari jaride, hari na pavoma nziza, hirya y'izo nzu hari inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Ibitanda bitatu mu rugero rw'abarwayi kimwe nta muntu uriho abaganga babiri bari kwita ku barwayi, umuganga umwe arunamye ari gufasha umurwayi, undi nawe aricaye ari gufashe umurwayi, umurwayi umweyamba agapfukamunwa yeguye umutwe undi murwayi yambaye agapfukamunwa ariko we araryamye bigaragara ko arembye.

Inzu ishakakaje amabati y'ubururu, iteye irangi ry'umuhondo, inzugi zigize irangi ry'umukara, amapave, abantu bicaye imbere ku rubaraza biragaragara ko ari kwa muganga abantu baje kwivuza.

Korodoro irimo imiryango myinshi, inkuta zisize irangi ry'umweru, ubururu n'umukara, n'ibyapa byometse ku mpande, amatara ari kwaka, biragaragara ko ari kwa muganga.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa. Imbere ye hari umwana bigaragara ko ari kumuvura, harimo ibikoresho bifashisha mu kuvura. Iruhande rwabo hari umupapa uteza igitambaro ndetse n'umupira w'amabara yose.

Inzu nini y'amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru, irimo icyapa kivuga ibyo iyo nzu ikorerwamo, kiragaragaza ko ari inzu y'ababyeyi, ikikijwe na jaridi nziza, iruhande rwayo hari akazu gato kubakishije amatafari ahiye.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, ari gukora siporo. Afite icupa ririmo amazi, ari kuyanywa kugira ngo yongere amererwe neza.

Akagare k'abantu babana n'ubumuga gahagaze ahantu, nta muntu wicayemo, gafite ibara ry'umukara n'ubururu, gafite amapine abiri manini n'andi abiri matoya.

Umugabo wambaye inkweto zifunze n'amasogisi, ikabutura y'umukara ngufi, umupira w'umukara, arunamye biragaragara ko ari gukora siporo.

Abantu babiri, umwe yicaye ku gatanda k'umukara ntabwo agaragara mumaso, undi yicaye imbere ye arunamye ari kumukanda akaguru katambaye urukweto, bigaragara nkaho yavunitse ariko kumukanda.

Utu bogisi twinshi twiganjemo udufite amabara y'umuhondo, umutuku, ubururu, n'icyatsi n'umukara, badukoresha mu kuvura abantu bafite indwara runaka.

Umuntu wicaye, warambuye akaguru kamwe akandi yagahinnye, akaboko kamwe kararambuye, akandi karahinnye, inyuma ye hari intebe biragaragara ko ari gukora siporo.

Imashini iri hejuru ifite amabara atandukanye: umukara, umweru n'ubururu. Yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bidufasha gukora siporo. Harimo umugabo wambaye isengeri yererutse n'ikabutura y'umukara, ari gukora siporo kugira ngo amererwe neza. Inyuma ye hari umumama wambaye umupira wererutse n'ipantaro y'umukara, na we ari gukora siporo.

Icyumba kirimo igitanda kiryamyeho umuntu wiyoroshe amashuka y'umweru, uwo muntu hari umugabo wambaye itaburiya n'agapfukamunwa na ga ari kumufasha kumukorera na masaje. Inyuma y'uwo muntu hari amarido y'ubururu.

Amacupa, ibirahure n'udukarito, harimo igikarito cy'umutuku kigaragaraho ukuboko k'umuntu guhambiriyeho bande. Hari ibindi bikoresho nk'umukasi, ibinini ndetse n'ibindi. Ibyo byose babikoresha mu kuvura abantu.

Abantu babiri batagaragara mu maso, akaboko karambuye, bambaye ga y'amabara y'umweru n'umukara, ibiganza bibiri bifashe mu kiganza cyambaye ga.

Amacupa menshi yiganjemo amabara y'umweru, ari ahantu hasa icyatsi kibisi ndetse harimo n'ay'amabara y'umuhondo bigaragara ko yifashishwa mu kuvura abantu.

Ibiti byinshi bifite amabara y'icyatsi harimo utubuto duto tw'amabara y'icyatsi yerurutse ibyo biti babikoresha mu kuvura abantu barwaye indwara runaka.

Ibiti bibiri, ikigufi ni kirerekire gifite amababi y'icyatsi kibisi, bifashisha mu kuvura umuntu wagize ikibazo bigatuma amera neza.

Ibiti byinshi by'icyatsi kibisi, bifite utubabi tukiri duto iyo umuntu atunyweye akira indwara yaba arwaye n'iza gakondo.

Hari ikirahure kipfundikiye gifite umufuniko w'icyatsi, uriho icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, irya mbere bituma umuravumba, bigaragara ko iri icupa ririmo umuti w'ibimera uvuri indwa..

Igiti kigaragara nk'aho atari kinini cyane gifite indabyo z'umweru. zikikijwe n'utundi duti duto natwo dufite indabyo z'umweru. haruguru yacyo hari ibyatsi.

Ibiti byinshi biri ahantu hamwe, bifite amabara y'icyatsi kibisi. Ibyo biti bidufasha mu kuvura indwara runaka zigakira.

Umuntu utagaragara wambaye imyenda y'umukara n'umutuku, ari ahantu mu byatsi bakoresha mu kuvura abantu barwaye indwara runaka bagakira.

Abantu bahagaze mu murima w'igikakarubamba, inyuma hari umuringoti, hirya yabo hari ibiti, bambaye imyenda itandukanye, abenshi bambaye imipira isa bigaragara ko ari inifomu, ubwo rero akaba ari abantu bigaragara ko bashinzwe ibijyanye n'ubuhinzi.